Abantu bari kwifotoza bambaye bose amabaji mu ijosi bafite amakaye m'intoki bisa nkaho bavuye m'amahugurwa cyangwa m'inama.

Amapoto amanitseho insinga z'amashanyarazi, ku ruhande hariho ibiti birebire, n'ishyamba, n'umunara munini w'amashanyarazi.

Biragaragara ko ahangaha ari ku kicaro cya emutiyene kuko abakiriya baba bagiye gusaba serivisi zitandukanye abagura simukadi, ababitsa, ababikuza n'ababaza izindi serivisi bakora kugira ngo barusheho kumenya neza iki kigo ibyo gikora.

Ibimenyetso bimurika byo mu muhanda ku ruhande rumwe byerekana ko abantu bemerewe gutambuka, ku rundi ruhande hatsemo itara ry'umutuku ryerekana ko imodoka zitemerewe gutambuka.

Icyapa kigaragaza ahantu hari gukorerwa ubwubatsi, ingofero ebyiri abubatsi cyangwa abafundi bambara mu gihe bari kubaka; mu kwirinda impanuka zakangiza umutwe.

Inzu yo gucumbikwamo igihe gitoya igeretse kabiri harimo ubusitani ku rundi ruhande hari aho banitse imyenda, iherereye ku muhanda wa ka ka Kigali maganatatu na mirongo irindwi na gatanu.

Imodoka nini itwara abagenzi mu muhanda bayinjiramo bakoresheje ikarita, iri guca munsi y'ikiraro ku ruhande rwayo hari umunyonzi utwaye igare.